Ndabona umugabo usa nkaho ari kubwira abantu bari kumwumva aho ndikubona abasirikare bamwicaye inyuma nabandi bantu basa nkaho ari abantu basanzwe kandi ari ahantu gutya ahagaze afite mikoro.

Abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye aho bahagaze ahantu bari kumwenyura bisa nkaho bari gufata ifoto harimo kandi abazungu, abirabura aha harimo abagabo n'abagore.

Abantu basa nkaho bari mucyumba cy'inama aho harimo abakobwa, abasaza n'abakecuru basa nkaho bateze amatwi uri kubabwira.

Aha ubona hari abagabo bicaye hari mu cyumba cy'inama, aho bashobora kuba bari mu bintu byo kuganira ku bintu bijyanye n'ibyo bakora.

Kubona icyumba gisa nkaho kicayemo abantu bari mu nama, ibigaragara byo bateze amatwi bari kumvamva uri kubabwira kandi hagiye harimo ingeri zitandukanye, aho ndi kubonamo abagabo bakuze n'abagore.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu irimo utudomo tw'umweru, yicaye ku ntebe izi nziza zisa nkaho zikaraga, imbere yateretse imashini asa nkaho ari kubwira abari kumwumva.

Ndi kubona icyumba cyiza, kirimo abantu basa nkaho bari mu nama basa nkaho bari kubwirwa kandi harimo n'abafite na za murandasi...

Aba bagore basa nkaho bari ahantu bishimye bigaragara nkaho bari kumva uri kubabwira bakishima aba bagore harimo n'abakobwa n'abagabo bicaye inyuma.

Abantu basa nk'aho bari mu cyumba k'inama, aho abo bantu bari gusa nk'aho bari kuvuga ku bintu bigiye bitandukanye, aho bicaye mu ntebe nziza cyane.

Ndi kubona abagabo basa nk'aho bishimye, harimo abambaye amarinete, bambaye n'imipira ijya gusa y'ubururu, kandi abo bagabo basa nk'aho bari kubwirwa.

Ndabona abantu benshi bicaye mu cyumba cy'inama, aho ndikubona kandi hari ababakuriye n'abandi bari kumva ibintu basa nk'aho bari kubwirwa.

Ndi kubona abagabo bicaye mu cyumba k'inama aho harimo abazungu n'abirabura basa nk'aho bari kuganira ku bijyanye n'ibyo muri politiki cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye.

Abantu basa nk'aho bicaye ku murongo, aho ndikubona umusaza, umukecuru n'abandi basa nk'aho barikumva ibiri kuvugwa n'undi muntu.

Kubona abagore basa nkaho ari ibintu bari kwandika ku mpapuro za depurikata, cyangwa se impapuro z'umweru abantu bandikaho akenshi. Abo bagore kandi bisa nkaho bari gutekereza.

Abagabo bicaye mu cyumba cy'inama aho abo bagabo bari mu ngeri ziri zitandukanye, kandi aba bagabo bari kumva ibintu bari kubwirwa, harimo abasa nkaho bari kwandika.

Ndi kubona abagabo basa nk'aho bicaye ahantu mu cyumba, aho icyo cyumba gishobora kuba kiri kuberamo inama, aho harimo abagore n'abagabo bambaye bikwije.

Ndi kubona umugabo usa nk'aho afite mikoro yambaye ikoti na karuvati n'ishati; uwo mugabo kandi bisa nk'aho ari kubwira abantu bari kumwumva, ibintu bigiye bitandukanye.

Urabona umugore usa nkaho ari ahantu abwira bari kumwumva, aha kandi abo bantu bagiye bafite amazi bamwe muribo; basa nkaho umugore afite icyo ari kubabwira.

Kubona ahantu hari abantu mu cyumba basa nkaho bari kuganira ibintu bigiye bitandukanye, aho biteretse amazi n'ibipapuro bibafasha mu nama bashaka barimo.

Aba ni abantu basa nkaho bari mu cyumba cy'inama, aho icyo cyumba cy'inama gishobora kuba kiberamo ibintu bigiye bitandukanye. Aho ushobora kuba bari kuvuga ku ibikorwa bigiye bitandukanye, aho ndikubonamo abiganjemo abagore cyane.

Ndikubona abantu bicaye mu cyumba cy'inama kinini, aho ndi kubona basa nkaho barikumva uri kubabwira. Bakaba ari abagabo n'abagore n'abakobwa.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama aho abo bantu bicaye mu cyumba cy'inama basa nk'aho bari kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama aho bashobora kuba bari kuganira ku bintu bishobora kuba byahinduka cyangwa se bishobora kuba byakorwa, abo bantu kandi harimo abagore n'abagabo.

Icyumba kinini aho icyo cyumba kirimo abantu b'ingeri zigiye zitandunye aho bashobora kuba bari mu nama, haba hari n'abanyemakuru bari kumviriza ibyo bavuga cyangwa bari gufata ibyo bavuga bakaza kubishikiriza abantu

Basa nk'aho bari mu cyumba cy'inama, aho bigaragara nk'aho bari kuganira ibintu bigiye bitandukanye, kandi bateretse ama ji imbere yabo.

Umugore usa nkaho yicaye ari kubwira abari kubwirwa, n'abagabo bamukikije bisa nkaho bari kureba nabo mu bintu bijyanye n'ibintu bari kuvuga, bakikijwe n'abandi.

Abagabo bicaye mu cyumba cy'inama, aho bashobora kuba bari kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye,, aho harimo abagabo bambaye amakoti na marinete abandi bambaye amashati.

Abantu basa nkaho bari ahantu, harimo abambaye imipira y'icyatsi n'igofero, kandi abo bantu basa nkaho bari kumva uri kubabwira, bigaragara nkaho kandi bishimye.

Ndikubona umugabo usa nkaho ari ahantu mu cyumba cy'inama, imbere ye hateretse amazi, yambaye ikoti n'ishati yambaye n'amarinete. Bisa nkaho ari kubwira abumva.

Abagabo basa nkaho bicaye mu cyumba cy'inama, kandi abo bagabo harimo umuzungu n'abandi basa nkaho ari abanyarwanda, imbere yabo hateretse amazi n'ibipapuro aho ushobora kuba bari bubyifashishe.

Abagabo bicaye ahantu mu cyumba cy'inama, aho kandi abo bagabo bari gufokasinga cyangwa se kureba ibijyanye n'ibyo bashobora kuba bari kuvuga.

Abagore bicaye bari kuganira, bigaragara nkaho bafite abari kubumva ku bijyanye n'ibyo bari kuvuga.

Ndikubona umukobwa usa nkaho ari kureba imbere, asa nkaho ari kubwirwa ibintu ateze amatwi ari kumva, inyuma hari umuhungu na we usa nkaho ari kureba.

Ubona abagabo basa naho biciye ahantu mu cyumba, aho icyo cyumba gisa nkaho ari ikinama. Bakaba bafite za mudasobwa kandi ni abagabo ubona ko biyubashye.

Icyumba cyiza kirimo abantu basa nk'aho bari mu nama bafite za murandasi, imbere yabo hateretse amazi buri wese kandi afite ibyo ari kumva n'ukuntu ari kubyumvamo.

Abantu bicaye muri sale nini cyangwa se icyumba kinini aho bashobora kuba bari mu nama cyangwa se ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye aho bari kumva uri kubabwira.

Umugabo usa nk'aho yicaye mu cyumba cy'inama, aho ari kumwe n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye kandi bisa nk'aho bateze amatwi uri kubabwira.

Abantu basa nkaho bicaye mu cyumba cy'inama bari kuganira ku bintu runaka. Aho ndi kubona harimo abagore n'abagabo bose bafite amazi imbere yabo ku buryo ari bunywe n'amaji.

Ndikubona ahantu bisa nkaho ari siberi kafe. Siberi kafe ni ahantu ushobora kuba wagenda ukicara, ukabasha kuba wakoresha za mudasobwa mu gihe ubanje kwishyura amafaranga makeya bitewe n'ibintu uje gukora n'isaha uri buhamare.

Kubona umunara uri ahantu usa nkaho ukorotiriye, uwo munara ukaba ukora muburyo butanga nka konegisiyo, ukaba uba uri mu midugudu cyangwa se ahandi hantu ukabasha kuhatanga amarezo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe no gukora ibintu bijyanye no gutanga serivisi zigiye zitandukanye, aho ushobora kuba wasaba agomba kuba afite indangamuntu y'igihugu cy'u Rwanda, usaba agomba kuba afite uruhushya rwo gutwara rwa burundu rugifite agaciro.

RDB Rwanda Development Board, ikigo gishinzwe ibijyanye n'iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda, aho bari kwerekana ibijyanye n'ikawa mu gihugu cy'u Rwanda ukuntu igenda izamuka.

Ndi kubona umunara uri ahantu, usize ibara ry'umutuku n'iry'umweru kandi uwo umunara ushobora gukoreshwa nka connéction abantu benshi bazi nk'amarezo.

Ushobora kuba wabagana ukabasha kuba wabasaba serivisi zigiye zitandukanye aho batanga serivisi zirimo : kuba wagenda bakagushakira ibyangombwa bigiye bitandukanye , ukabasha kuba wakohereza ibintu binyuze mu irembo.

Ndikubona icyumba gisa nk'aho kirimo imeza y'umweru n'intebe zitariho abantu kandi icyo cyumba kirasa nk'aho gishobora kuba cyategurirwamo ibintu bigiye bitandukanye.

Umunara, aho uwo munara ushobora kuba wakoreshwa ku bibasha kugarura amarezo, ayo marezo kandi akabasha kuba yatuma ibintu bigenda neza ku baturage.

Ahantu hari akantu gasa nkaho kariho ibintu bijyanye na papeteri, aho bashobora kuba wabagana bakagufasha muri serivisi zigiye zitandukanye.

Umunara, umunara muremure cyane. Aho uwo munara ufasha abantu mu bijyanye n'itumanaho, ku buryo umuntu uri aho muri karitsiye hari uwo umunara abura itumanaho.

Hari umunara, aho uwo munara uhagarikiwe n'abantu, bisa nkaho uwo munara ari umunara w'ibijyanye na kominikasiyo cyangwa se konegitisiyo ku itumanaho.

Ndi kubona hano hasa nk'aho hari ibintu byo gusura, ibintu by'uko kwishyura igikoresho cyangwa se umutungo utimukanwa.

Ndi kubona umunara, uwo munara kandi ukaba uri ahantu usa nk'ukorotiriye, uwo munara ukaba ukoreshejweho ibintu bigiye bitandukanye aho uwo munara ari uw'itumanaho.

Ndikubona umunara munini cyane, uturiye akantu kanditseho emutiyeni, umunara kandi ukaba ari umunara ushobora kuba watuma haboneka itumanaho ryuzuye neza.

Abagabo basa nkaho bafite amamashini cyangwa se murandasi aho basa nkaho bari gukora ku bintu bigiye bitandukanye kandi bambaye udupfukamunwa, bambaye n'amakote hari n'abambaye ishati n'imipira.

Abagabo basa nkaho bicaye ku muhanda, aho bashobora kuba bibereye mu bintu byabo bya buri munsi, bamwe bibereye kuri fone, hari n'abari kuri mashini basa nkaho bari kuruhu...

Umugore usa nkaho ari ahantu, ahantu hari akapa gasa nkaho kari kwamamaza ibintu bitandukanye. Umugore yambaye umupira w'ubururu arasutse yambaye isaha n'mpeta.

Ndi kubona umugabo usa nkaho ari kwaka serivisi ahantu mu imbere hicayemo abantu, ibigaragara byo ari kwaka serivisi z'ibintu bigiye bitandukanye.

Kubona ahantu ku muhanda bisa nkaho hari ipoto ritwara amashanyarazi, cyangwa se iryo poto rikabasha kuba ryashyirwaho amashanyarazi; amashanyarazi akabasha kuba yagenda ahantu hamwe ajya ahandi.

Kubona amapoto bisa nkaho ayo mapoto agiye ariho ibintu bigiye bitandukanye, haraho ndi kubona amafoto afite insinga zitwara amashanyarazi n'indi poto iriho kamera cyangwa se ibintu bifata amashusho.

Hari umukobwa, aho uwo mukobwa asa nkaho uri mukazi, umukobwa ari ku ipoto kandi bisa nkaho umukobwa akora ibijyanye n'amashanyarazi.

Kubona ahantu hasa nk'aho hari ikintu gishobora kuba cyatwara amashanyarazi kiyavana ahantu hamwe kiyajyana ahandi, aho kandi hari insinga zica muri icyo kintu.

Kubona ipoto riri ahantu ku muhanda. Aho iryo poto riba ritwaye amashanyarazi riyavana ahantu hamwe riyajyana ahandi. Kandi ibyo bintu bishobora kuba byafasha abaturage kutabura umuriro n'ibindi.

Ahantu hasa nkaho hari ipoto ritwara amashanyarazi riyanyujije mu nsinga kandi hari n'umunara usa nkaho ukora ibyo bintu bikaba bikikijwe n'ibidukikije aho twasangamo ibiti.

Ahantu hiswe ku Gisozi. Ahantu hari amazu y'ubucuruzi niho ipoto ritwara amashanyarazi ahantu baba babariza imbaho n'akantu kariho itara.

Ahantu hasa nkaho hari ipoto ririho n'itara ribasha kuba ryamurikira abantu mu muhanda iryo poto kandi ririho insinga zibasha kuba zatwara amashanyarazi ziyavana ahantu hamwe ziyajyana ahandi.

Ndukubona ahantu hari ikintu gisa nk'aho gitwara amashanyarazi cyangwa se igikoresho gishobora kuba cyafata amashanyarazi menshi cyane, kikabasha kuba cyayanyuza mu insinga, insinga zikayajyana mu baturage.

Urabona umuntu usa nk'aho ari ku ipoto ribasha kuba ryatwara amashanyarazi riyavana ahantu hamwe riyajyana ahandi, andi ashobora kuba ari gukoraho ikintu twakise nk'ubugenzuzi cyangwa se ari kuharepara.

Ndi kubona umuhanda usa nkaho ari uwa kaburimbo, hirya yaho hari akantu k'akapa, aho hirya hari imodoka zisa nkaho ziparitse, kandi umuhanda ufite n'amatara amurikira umuhanda nijoro.

Ndabona umunara umunara muremure uriho insinga ziba zitwara amashanyarazi ziyavana ahantu hamwe ziyajyana ahandi bityo bikabasha kuba byatuma gufasha abaturage ibikorwa byabo bya buri munsi.

Kubona ifoto iri ahantu mu mujyi wa Kigali, aho iryo poto hara ahantu hari arete abantu benshi bakunze kwicara ho bategereje imodoka nkabyashira umuteto cyangwa se izindi modoka. Hirya hari abantu bari kugenda kandi iryo poto rifite insinga zitwara amashanyarazi.

Ndabona umunara, usa nkaho utwara amashanyarazi kandi aho hirya yaho hari n'undi bisa nkaho byegeranye bitangana insinga, zitwara amashanyarazi.

Ndi kubona ahantu hasa nkaho hari taransifoma. Taransifoma ni igikoresho kibasha kuba cyavana amashanyarazi ahantu hamwe kiyajyana ahandi uburyo ushobora gushyiraho insinga icyo ngicyo kandi kikabasha kuba cyafata umuriro mwinshi cyane.

Ndikubona ahantu mu isantere bisa nk'aho aho hantu hagiye hari ibikorwa remezo bigiye bitandukanye aho ndi kubona abantu buri wese ari kugenda ize n'abamotari bibereye mu kazi.

Ndabona umunara, umunara muremure cyane. Aho uwo munara ubasha kuba washyirwaho insinga ugatwara amashanyarazi, aho amashanyarazi ava ahantu hamwe ajya ahandi.

Kubona ahantu hari ikintu kiri hejuru y'inzu, aho icyo kintu ari igikoresho gishobora kuba cyakifashishwa mu gushyushya amazi yari akonje, kikabasha kuba cyayatanga mu nzu, abantu bakabasha kuba bayakoresha.

Ipoto ririho akantu kameze nk'akabogisi cyangwa se agakarito, hejuru hariho insinga zisa nkaho zambukiranya umuriro ziwuvana ahantu hamwe ziwujyana ahandi.

Ndi kubona umugore uri ahantu ku muhanda asa nkaho ategereje gutega moto cyangwa se imodoka. Kandi ari ahantu mu muhanda yegeranye n'akapa ni oto.

Umugabo uhagaze n'imodoka ziri mu muhanda wa kaburimbo, n'abandi basa nkaho hari ibintu bari gusunika, n'ipoto ritwara amashanyarazi riyavana ahantu hamwe riyajyana ahandi.

Ndikubona inzu ifite kizimyamwoto kandi ifite n'ahantu ushobora kuba wakugama n'imvura mu gihe iguye cyangwa se ukabasha kuba wa.

Ndi kubona abantu basa nkaho kwa muganga, aho ndi kubona imbangukiragutabara zisa nkaho ziri gukurwamo abarwayi bameze nabi cyane.

Ndi kubona ahantu hari icyapa gisa nk'aho cyanditseho Kabgayi ayi yuniti, aho icyo cyapa gishobora kuba cyaranga ibintu bigiye bitandukanye, ushobora kuba wagera ahantu kikabasha kuba cyakurangira.

Ahantu hubakitse neza cyane hasa nkaho ari kwa muganga hantu kandi hakaba habasha kuba hakorerwa ubuvuzi warushaho kubagana bakagufasha mu buryo bwo kwita ku buzima bwawe.

Kubona ibitaro abantu benshi baziho ku bitaro bya Fayizai, ibyo bitaro bikaba ari ibitaro bikomeye mu gihugu cy'u Rwanda, aho abantu bafite indwara zananiranye bahanyura, byananirana bakaba amataransiferi yo mu bindi bihugu.

Ndi kubona ahantu hari abaturage benshi, aho harimo abagore bagiye bahetse abana n'abakobwa, basa nk'aho bari ku murongo bari kugenda binjira bahabwa serivise.

Ahantu hasa nkaho hakorerwa ibintu bigiye bitandukanye aho hantu kandi hari amazu n'ahantu ushobora kuba wakwicara mu gihe utegereje serivisi runaka.

Ndi kubona umugore usa nkaho ari gutambuka mu nzu nini ifite korodoro isa nkaho ikorerwamo ibikorwa bya leta, cyangwa se ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye, umugore kandi yambaye imyenda.

Umugabo usa nkaho ari ahantu hari ibintu by'ibimashini, kandi aho hantu ushobora kuba wabagana bakaguha serivisi.

Umugabo w'umwirabura n'undi w'umuzungu, uw'umuzungu ni umuvuzi usa nkaho ari gutera urushinge umwirabura.

Ahantu bisa nkaho aho hantu, hakorerwa ibikorwa bigiye bitandukanye, aho ndi kubona abagabo babiri bahahagaze, aho umwe asa nkaho ashobora kuba ari kubwira undi.

Abagabo babiri basa nk'aho bafashe ku kintu gikozwe mu mbaho, abo bagabo kandi bagasa nk'aho ari gufata ifoto. Harimo uwambaye marinete, bose kandi bambaye ibikanzu.

Abagabo benshi harimo n'abagore bisa nkaho bari kurahira bafashe ku kirango cyangwa se ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ndi kubona umugabo usa nk'aho ari kuvuga akavugira kuri mikoro asa nk'aho ari kubwira abari kumwumva, aho ibyo bintu bishobora kuba byafasha cyane mu gihe bari mu bintu by'ingirakamaro.

Abagore n'umugabo basa nkaho bicaye basa nkaho bari kuvugisha imfungwa ishobora kuba ifunzwe izira ibyaha yakoze kandi iyo mfungwa isa nkaho ari ibintu iri kubabwira, nabo bisa nkaho hari ibintu bari kuyibwira.

Umugabo wambaye imyenda y'ingororwa izo ngorwa kandi zikaba zambara imyenda ya pinki mukuntu aho ishobora kuba ajyanywe kuburanishwa.

Abantu bambaye ibintu bisa bisa nkaho imbere yabo hari za mikoro bari kubwira abari kubumva kandi abo bantu basa nkaho bari kuvuga ibintu bimwe bigiye byerekana kubintu cyangwa se ku bisubizo bimwe na bimwe.

Ndabona umugabo usa nk'aho ari kwifotoza, yambaye karuvati n'ishati n'ikindi gikanzu kiri inyuma afite inyogosho y'umusatsi mukenya.

Kubona ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye no kuba cyafunga abantu bakoze ibyaha mu gihugu cy'u Rwanda, giherereye i Nyamagabe aho hariho icyapa cyerekana ko ari kwibuka inshuro ya makumyabiri na gatanu.

Umugabo wambaye ikintu cy'umutuku usa nkaho ari gufata ifoto igaragara nkaho yishimye kandi uwo mugabo ari ahantu ari kwifotoza.

Umugabo usa nkaho ashobora kuba yarakoreye leta y'igihugu cy'u Rwanda, aho umugabo yambaye karuvati n'ikote n'ishati yumweru akaba yishimye.

Ndabona abantu basa nkaho bari kurahira mu gihugu cy'u Rwanda barahiga imbere y'amategeko, kandi bafashe ku irapo ry'igihugu cy'u Rwanda, abo bantu kandi harimo abagabo n'abagore.

Ahantu hari abantu b'abaturage, bamwe baricaye, bari kumva ibyo abandi bari kuvuga abahagarariye abandi, kandi aho hantu hari abahicaye ku meza.

Kubona abantu basa nkaho bari muri komite zigiye zitandukanye, bambaye idarapo ry'u Rwanda, basa nkaho handitseho komite baricaye basa nkaho bari gufasha abandi.

Ndi kubona umugabo bisa nk'aho ari kuvuga ubutumwa butandukanye kubijyanye n'ibintu bari kumva bisa nk'aho na none ari kubwira abantu binyuze muri mikoro akamwumva bitarinze ko asakuza.

Ndi kubona umugabo usa nkaho amwenyuye yambaye igitaburiya cy'umutuku karuvati n'ishati, uwo mugabo kandi bisa nkaho arimo kwifotoza.

Kubona umugore usa nk'aho ari ahantu, ari kuvuga, afite akamikoro, kari ku meza, ari kuvuga ibintu bisa nk'aho bitezwe n'amatwi n'abantu bari kumwumva.

Imodoka ya kizimyamwoto aho iyo modoka iri ahantu iri kuzimya indi modoka bisa nk'aho iyo modoka yindi yafashwe n'inkongi y'umuriro kandi uri kuyikoresha arayitwaye ayigeze hirya undi yarasohotse afite ikihombo bisa nk'aho aricyo kiri gusohokamo amazi akagitunga hari umuriro.

Za kizimyamwoto, izi kizimyamwoto hari iziba zikoresha, puderi cyangwa se ibifu, hari iziba zikoresha ama "oxygen" n'ibindi bigiye bitandukanye. Izi kandi zishobora kuba zakoreshwa mu gihe hataraboneka za modoka zibishinzwe, zibasha kuba zazimya.

Umugabo we yambaye imyenda ya gipolisi aho umugabo yambaye nk'abapolisi bakora mu muhanda kandi akaba ari nabyo aho umupolisi akorera mu muhanda.

Imodoka ishobora kuba yakoreshwa mu kuzimya ahantu hatse inkongi y'umuriro, imodoka kandi ikaba irimo abantu bashinzwe kubikoraho ibyo bintu byo kuzimya.

Ndi kubona ahantu hasa nkaho hari imodoka ebyiri zishobora kuba zizimya umuriro kandi hari abandi bicaye bisa nkaho bashobora kuba batabawe.

Kubona imodoka aho iyi modoka ishobora kuba yakwifashishwa mu bikorwaremezo bigiye bitandukanye aho ishobora kuba yakifashishwa mu ibijyanye no kuzimya umuriro, umuriro ahantu igihe hatse inkongi y'umuriro, ushobora kuba wahamagara ubufasha, ikabasha kuba yaza ikakuzimiriza.

Umupolisi, umupolisi ukora mu muhanda aho uwo mupolisi ari kuranga ibyerekezo by'aho imodoka igomba gukata kandi hari n'indi modoka iri kumanuka bari ku bw'imo y'umweru bigaragara.

Mbona imodoka ya porisi, iri ahantu mu kigo n'ubundi cya porisi, i Nyarugenge, mu karere. Aho hantu kandi, hakaba hari iyindi modoka, iri ku ruhande.

Ndi kubona umuhanda wa kaburimbo urimo abapolisi bo mu muhanda, basa nkaho bahagarariye abamotari bashaka kugenda, kandi hari umuntu uri kwambuka yambukiranya imihanda, iyo umuntu ari kwambuka, ntabwo ikinyabiziga kiba kimerewe guhita kigenda.

Abagabo bambaye iniforume zisa basa nk'aho bari kuzimyamya umuriro abantu basa nk'aho babashungereye bari kureba ukuntu bazimya umuriro.

Ikintu ahantu ku muhanda hasa nk'aho hari utuntu tw'utwuma dusa nk'aho tuzengurutse ahantu, aho hantu ku muhanda kandi hari n'ibiti bitandukanye.

Imodoka y'igihugu cy'u Rwanda, iyo modoka ari iy'abashinzwe umutekano mu gihugu cy'u Rwanda aho igendwamo n'abapolisi bo mu gihugu cy'u Rwanda abenshi baba bakora mu muhanda.

Ndi kubona kizimyamwoto abantu bakunze gukoresha mu gihe habaye inkongi y'umuriro, kandi iyo kizimyamwoto, ikaba isohora ibintu bimeze nk'ibifu, aho ushobora kuba wayifashisha mu gihe habaye inkongi y'umuriro.

Ndi kubona ahantu hasa nkaho ahari itente n'inzu, inzu kandi ikaba iri gucaracaramo abantu, ndi kubona n'imodoka iri ahantu hagati mu mbuga.

Ndi kubona perezida Paul Kagame, aho ari kumwe n'abandi bantu bamufasha mu bijyanye n'imiyoborere yiwe, aho basa nk'aho bari kugenda baganira bishimye cyane.

Ndi kubona umugabo, uyu mugabo akaba ariwe perezida Paul Kagame umukuru w'igihugu, akaba yari ari mubikorwa bijyanye no gutora umukuru w'igihugu, aho ari nawe waje no gutsinda amatora.

Akantu gasa nk'aho kerekana kuba watora umukuru w'igihugu, bibiri na cumi na karindwi kagiye kariho abagabo bagiye batandukanye aho ndi kubonaho perezida Paul Kagame ariwe uriho ku butegetsi, Mazimpaka Philippe utaratorewe kuba umuyobozi na Frank.

Kubona umugore usa nkaho afite abana babiri bambaye utukote umugore kandi ahagaze ahantu mu muryango nawe yambaye imyenda arikwije.

Ahantu hasa nk'aho bari kugira ibipapuro, basa nk'aho bari kubishyira mu kintu cy'ikibokisi, biriho ibintu utamenya ibyo ari byo.

Umugabo usa nk'aho ahagaze ahantu yambaye ikoti ry'ubururu kandi uwo umugabo asa nk'aho ari kubwira abantu basa nk'aho bari kumwumva n'abandi bamwicaye inyuma.

Basa nkaho bari ahantu, aho abon bantu basa nkaho bari kuganira, kandi abantu barishimye, hari abagore babiri n'umugabo umwe.

Kubona abantu basa nkaho bari mu ishyaka ryitwa pisidi, iryo akaba ari ishyaka rishingwa n'umuntu usa nkaho aba ari kwiyamamaza.

Ndi kubona aho umugabo bise Mazimpaka Philippe aho yari ari kwiyamamaza kuba umukuru w'Igihugu, aha ngaha yari ari gusa nk'aho ari gutora ibintu atora.

Ndabona akaboko gasa nkaho kariho utuntu tw'uturangi, ibyo bikaba bivuze ko ari umuntu ugiye gutora cyangwa se wamaze gutora, umukuru w'igihugu cyangwa se ibindi bintu.

Ndi kubona ahantu hari umugabo usa nkaho ari kugenda, umugabo akaba ari umugabo wiyamamarije kuba umukuru w'igihugu, bikaza kwanga bikarangira atabaye umukuru w'igihugu, umugabo kandi akaba yitwa Mazimpaka Philippe.

Abagore basa nk'aho bari kugira ibintu by'ibipapuro bareba mu mpapuro aho bishobora kuba bari mu bikorwa bya leta kandi hari abagore batatu.

Ndikubona abantu basa nkaho bari ahantu ku murongo andi bantu ku murongo basa nkaho bagiye mu bikorwa remezo by'igihugu cy,u Rwanda aho harimo abakecuru abagabo n'abasaza.

Ndi kubona idarapo rya FPR Inkotanyi. Ari ryo umuryango cyangwa se ishyaka rya Paul Kagame yiyamamarizamo, rikaba ari ishyaka ryiza cyane.

Ndi kubona umugore usa nk'aho ari kubwira abantu ibintu bigiye bitandukanye, aho yambaye amarinete, yambaye n'ikote.

Umugabo usa nk'aho yicaye mu cyumba cy'inama, aho uwo mugabo ari kumva abari kubwirwa, inyuma ye hari umugore witandiye aho bivuze ko ari umusiramu, na we ari muri icyi cyumba cy'inama.

Kubona umugabo usa nkaho ari ahantu ari kubwira abantu, cyangwa se ari kubwira mikoro iza kubwira abantu binyuze mu itangazamakuru.

Ndabona ikimodoka kinini cyane abantu benshi bakunze kwita igikamyo gitwara imizigo kivana ahantu hamwe kijyana ahandi, ho inyuma hari abamotari batwaye abagenzi.

Kubona imodoka iri mu muhanda. Isa nk'aho iri kugenda. Irimo umuntu. Kandi iyi modoka itwara ibintu by'ibikoresho, cyangwa se imizigo itandukanye.

Ndi kubona ahantu mu muhanda aho aho hantu hitezwe ko harimo moto n'abantu bari kugenda n'imodoka, kandi hari moto ziturutse ku ruhande.

Imodoka iri ahantu mu muhanda kandi iyo modoka ikaba iri kugenda isa nkaho ari ibintu itwaye, hirya hari abantu bari kugenda mu muhanda w'abanyamaguru n'amatara ari mu muhanda w'abanyamaguru amurikira umuhanda mu gihe bwije.

Hasa nkaho haparitse amamoto aho ayo ma moto atwara imizigo ayivana ahantu hamwe ayijyana ahandi aho izo moto ziba zihuta.

Kubona umuhanda urimo ibinyabiziga, aho ndi kubonamo moto n'imodoka, aho moto zitwaye abagenzi, n' imodoka ikaba itwawe n'umuntu usa nk'aho yigiriye mu bintu bye.

Ndukubona igikamyo, icyo gikamyo kigasa nkaho kiri mu muhanda, gisize ibara ry'umutuku, inyuma hari imodoka itwara abanyeshuri, aho icyo gikamyo cyo gitwara imizigo, aho wasangamo imicanga cyangwa se amabuye.

Ndikubona imodoka isa nkaho yikoreye imizigo ariyo imbaho iyo mizigo kandi ikaba iri kujyanwa mu muhanda harimo na moto ziri kugenda n'ibindi binyabiziga.

Ikimodoka kinini abantu benshi bazi ku izina rya shirumuteto, kuko icyo kimodoka gishobora kuba cyatwara abagenzi cyangwa se ibintu ku bwinshi kandi icyo kimodoka kirihuta cyane.

Ndikubona ikimodoka kinini aho icyo kimodoka gitwara abagenzi n'ibintu kibivana mu gihugu kimwe kibijyana ahandi, urugero iyi modoka abantu benshi bayiziho ku izina rya jagwari aho ishobora kuba yagenda ivuye mu Rwanda ikagera muri Tanzania cyangwa se muri Kenya.

Umugabo abantu benshi baziho nk'umukarani ufite igikoresho kimufasha mu kazi ke aho ashobora kuba yagitwaraho imizigo hirya ye kandi hari imodoka hari n'umugabo bari kuganira.

Kubona umuhanda urimo imodoka isa nkaho iri kugenda, inyuma hari moto ebyiri zisa nkaho ziri kuzamuka inyuma yizo moto hari indi modoka.

Umuhanda urimo imodoka ya bisi isa nkaho iri kugenda. Muri uwo muhanda akaba n'igare ritwawe n'umunyonzi rikaba nta muntu uriho.

Kubona igikamyo kiri ahantu mu muhanda aho icyo gikamyo gishobora kuba cyatwara umucanga cyangwa se amabuye kandi hari na moto iri ku ruhande muri muhanda wa kaburimbo.

Umugabo uri ahantu mu muhanda, umugabo kandi ha kaba hari n'umuhanda wa leta aho uwo mugabo wari umumotari utwaye moto zimwe mu zishyashya ziri gusohoka cyangwa se ziri kuva mu mahanga ziza mu gihugu cy'u rwanda.

Uno ni umuhanda unyuramo moto nyishi; urimo na moto y'amashanyarazi, aho iyi moto igira batiri, izo batiri kandi bakaba bazicomeka, moto kandi igezweho mu mujyi wa Kigali kandi n'uno mumotari uri mu muhanda ahetse umukobwa bari kugenda.

Ahantu ku muhanda haparitse imodoka ya tagisi vuwatiri aho iyi modoka itwara abagenzi, nayo kenshi iba iparitse kwa muganga, kandi ndi kubona n'izindi modoka ziyiparitse imbere.

Ndabona umuhanda wa kaburimbo, aho umuhanda wa kaburimbo uri gucamo imodoka, ziri kugenda zisa nk'aho zitwara abagenzi; kandi hari hirya agahanda k'abanyamaguru kagendamo abantu.

Ndabona umuhanda urimo ikamyo iyo kamyo ikaba isa nkaho itwaye imizigo kandi hirya hari igare naryo risa nkaho ritwaye imizigo naryo aho ryikoreye umufuka.

Ndi kubona ahantu mu muhanda hari ikimodoka kinini cyane gisa nk'aho gitwara abagenzi kibavana ahantu hamwe kibajyana ahandi, akenshi gikunze gutwara abagenzi kibavana mu ntara imwe kibajyana mu yindi.

Imodoka, iyi modoka kandi ikaba itwaye imizigo. Ni imodoka nini cyane ziba zitwaye imizigo ziyivana hanze y'igihugu zinjiza mu gihugu, aho iri mu muhanda wa kaburimbo iri kugenda.

Ndi kubona umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka nini cyane itwara imizigo iyivanye mu gihugu kimwe iyizana mu kindi gihugu, urugero Tanzania cyangwa se ziza mu Rwanda.

Imodoka y'igikamyo itwara imizigo iyivana ahantu hamwe ijyana ahandi, iyo mizigo kandi ikaba ari imicanga amabuye n'ibindi, inyuma yayo hari amamoto atwaye abagenzi.

Ahantu, bisa nkaho aho hantu harimo igare ritwawe n'umunyonzi, n'ikimoto kuruhande gitwara imizigo.

Aha muhanda usa nk'aho urimo ibinyabiziga bya moteri n'ibitari bya moteri, aho ndikubona igare rihetse umugenzi na moto. Moto kandi ikaba ifite moteri itwara abagenzi n'ibikamyo biri hirya bitwara imizigo.

Umuhanda usa nkaho urimo umuntu uri gutambuka urimo n'ibinyabiziga na moto ziri gukora ibikorwa byazo ni aho imodoka zitwaye imizigo.

Ndi kubona umuhanda, umuhanda haparitsemo igare risa nk'aho riparitse ukuntu ku gahanda k'abanyamaguru, na moto iri kugenda mu muhanda ihetse umugenzi.

Kubona igikamyo ni imodoka nini cyane ishobora kuba yatwara imicanga iyivana ahantu hamwe ijyana ahandi bitewe n'ukuntu umuntu ashaka ku bintu ibintu bigenda kandi ukabasha no kuba washyiramo amabuye muri iyo modoka.

Kubona umumotari asa nkaho ari mu muhanda wa kaburimbo, aho uwo mumotari, ari kugendana mugenzi afite. Kandi iyo kaburimbo iri mu mujyi wa Kigali.

Kubona ahantu hari igikamyo icyo gikamyo kandi kiri mu muhanda aho icyo gikamyo gitwara imizigo igiye itandukanye aho gitwara imizigo myinshi.

Ndi kubona umuhanda urimo imodoka zisa nk'aho ziri kunyuranamo zigenda, n'igare riri mumuhanda w'abanyamaguru ritwaye umufuka munini cyane urimo ibintu bimeze nk'ibiribwa, kandi kuruhande hari imodoka ya shira umuteto ikunze gutwara abantu benshi.

Ndikubona ahantu hanini bisa nkaho ari ahantu abantu babasha kuba bagenda cyangwa se bakabasha kuba baharuhukira bitewe n'uko ubishaka cyangwa ukaba wanahatemberera kuko ni ahantu heza.

Ikibuga, ikibuga gifite amazamu na file, ikibuga kandi kiragaragara nk'aho ari icy'ibyatsi kandi iki kibuga abantu benshi mu Rwanda bakunze kugikiniraho umupira w'amaguru abantu benshi bafana.

Ndikubona ikibuga kinini gisa nkaho icya kibuga gikinirwamo voleboro, voleboro kandi ukaba ari umukino abantu benshi bazwiho ko ukinwa ukoresheje intoki, aho uba utera umupira mu kirere undi akawugarura wagera hasi ukabasha kuba watsindwa.

Icyapa kiri ahantu mu muhanda gisa nkaho cyerekana ko imbere hari ahantu abanyamaguru bashobora kuba bakambukanyiriza imihanda, binyuze mu mihanda y'ibinyabiziga.

Icyapa gikunze gukoresha mu muhanda icyo cyapa gishobora kwerekana ahantu cyangwa se ibintu bishakwa byakorerwa aho hantu kandi icyo cyapa gikunze kumanika mu muhanda.

Akapa aho ako kapa kavuze ibintu byinshi, aho kaba kavuzeko aho hantu haba hagomba guparika bisi ikabasha kuba yasiga abantu, cyangwa se ikabatwara, imodoka itwara abagenzi.

Ndi kubona hantu hari akapa ako kapa kandi gashobora kuba karanga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho icyo cyapa akenshi gikunze gukoreshwa mu mihanda kigashyirwamo.

Icyapa gisa nkaho gishyirwa mu muhanda icyo cyapa kandi kikabasha kuba cyaranga cyangwa se kikerekana ibintu bibasha kuba byakorerwa ahantu kandi icyo cyapa gikunzwe kenshi gushyirwa mu mihanda ya kaburimbo.

Ndi kubona icyapa kiriho akamenyetso k'imodoka, imodoka itwara abagenzi bigaragara nkaho icyo cyapa cyerekana ko aho hantu hagomba guhagarara bisi, zikabasha kuba zasohoramo abagenzi cyangwa zikinjizamo abandi.

Akapa gasa nkaho karanga amerekezo gashobora kuba kashyirwa mu mihanda iyi abantu benshi bazwiho nka kaburimbo kakabasha kuba karanga imerekezo cyangwa se ibindi bikorwa.

Bisa nk'aho icyapa icyo cyapa kandi kikaba kivuze ko hari ibintu bikorerwa aho hantu cyangwa se bishobora kuba wamenya ibikorerwa aho hantu.

Ndabona icyapa cyanditseho Rusizi. Icyo cyapa kikaba cyerekana aho abantu bashobora kuba bagera ahantu bakabasha kuba bamenya aho bageze, tuvuge nk'urugero uri mu modoka, uraje ntuzi aho ugeze, uhita ubona icyapa kikakwereka ko ugeze i Rusizi.

Umuhanda urimo akantu k'akapa, karanga ibikorwa bitandukanye cyangwa karanga amerekezo, kimwe muri ibyo. Aho kandi ako kapa gashyirwa mu muhanda.

Ahantu hari icyapa, icyapa kandi kiri hirya yo kumuhanda ahantu ho bakwereka ko icyo cyapa gishobora kuba cyakoreshwa mu bintu byinshi.

Ndi kubona icyapa kiri ahantu ku muhanda cyerekana ko abantu bagomba kwambukira aho hantu cyangwa se bashobora kwambukira imbere, hari uturongo tw'umweru bashobora kuba bakambukiramo.

Ndi kubona icyapa, icyo cyapa kikaba gikoreshwa ahantu hagiye hatandukanye, icyo cyapa kandi kimenyesha ibikorwa bigiye bitandukanye bishobora kuba byakorerwa nk'aho hantu.

Aha hasa nkaho hari icyapa, kandi icyo cyapa gishobora kuba cyakoreshwa mu muhanda cyangwa se kigashyirwa mu muhanda. Kibasha kuba cyakerekana nk'ibintu bishobora kuba byakorerwa ahantu.

Icyapa bisa nkaho gishobora kuba cyerekana ibikorwa cyangwa se ikintu gishobora kuba cyakorerwa aho hantu icyo cyapa kandi kikaba cyakoreshwa mu mihanda ndetse n'ahandi hatandukanye.

Icyapa, icyo cyapa kandi gishobora kuba cyakoreshwa gishyirwa mu mihanda, aho gishobora kuba cyaranga cyangwa se kikabuza ibintu bigiye bitandukanye.

Hari ibyapa bishobora kuba biranga amerekezo runaka, aho iki cyapa cyanditseho Giheka ahantu buri Giheka aho ushobora kuba wagera ukumenya ko ugeze muri Giheka bitewe n'icyapa.

Ndi kubona ahantu bisa nkaho hari inzu yubakishishijwe amabati, aho ayo mabati agaragara nk'ahatukura kandi hari n'insinga zijyana amashanyarazi.

Ndikubona imodoka ziparitse ku murongo aho izo modoka zishobora kuba zaparitswe na ba nyirazo ahantu muri parikingi yazo bikabasha kuba byafasha abaziparitse kuba zitabura ziba zifite umutekano uhagije.

Aho ubona, ni ahantu hari imodoka; aho izi modoka ziri, ahantu ziparitse nta bantu barimo kandi hepfo hari amazu y'ubucuruzi.

Ndikubona inzu ifite ibirahuri byubatse nk'umuryango kandi ndi kubona iyo nzu ifite n'utwuma dushobora kuba twakitwa nka bariko, aho ushabora kuba wahagarara hejuru ukareba hasi.

Kubona inzu bisa nk'aho' ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye, aho ashobora kuba haberamo ubucuruzi n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye, kandi hanze haparitse imodoka n'amamoto ari kugenda mu muhanda wa kaburimbo.

Hoteli nziza cyane yiswe imfiniti hoteri, aho ushobora kubagana bakabasha kuba baguha serivisi zijyanye no kuba waryama murizo nzu cyangwa se ukabasha kuba waruhuka.

Ndi kubona ahantu hari amamoto nk'abantu bari kugenda, hirya hari inzu bigaragara nkaho ari inzu y'ubucuruzi ibasha kuba yakorerwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Ndi kubona ahantu hari ikintu kimeze nkaho cyubatseho ibintu bisa nkaho bikwaKiriza cyangwa biguha ikaze. Ikigo kiba gishinzwe ibintu bigiye bitandukanye.

Kubona ahantu bisa nkaho ari inzu ikorerwamo ibintu bigiye bitandukanye ubucuruzi cyangwa se izindi gahunda nyinshi.

Ndi kubona etaje iri ahantu aho ikikijwe n'ibiti bisa nkaho ari indabyo etaje kandi ifite ibirahure biri mu ishusho y'icyatsi n'ibara ry'umuhondo.

Ndi kubona inzu ya etaje iri ahantu ikikijwe n'izindi nzu ngufiya, kandi iyo inzu ikaba igeretse, ni inzu nziza cyane ifite ibigega hejuru n'ibirahure abantu bakunze kwita nka Baliko.

Ndi kubona inzu iri ahantu hashobora kuba ijyanye n'ibintu, ibikorwaremezo bigiye bitandukanye, aho bishoboka ko bacuruza icyayi, amakawa n'ibindi.

Ahantu hasa nkaho hari ishusho igaragara nk'aho ari ahantu hari amazu menshi agiye yubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho ayo mazu ari meza.

Ndikubona ahantu heza cyane mu gihugu cy'u Rwanda aho ndikubona amazu yubatse mu buryo bwa kijyambere n'ibiti bigiye biyakikije.

Ndi kubona ahantu hari amazu agiye ari muburyo bucukiranye, hari n'izindi ziri kuruhande zisa nk'aho zubatse muburyo bwa kijyambere.

Ndikubona ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye zigama, aho ushobora kwizigama uciye muri icyo kigo cy'igihugu gikorera muri etage nziza cyane iri ahantu...

Umumotari ari ahantu afite moto ye bisa nkaho nta mugenzi afite ari mwikaritsiye aho hari amazu y'ubucuruzi n'andi amazu yuburyo ushobora kuba wayabamo.

Aha ni ahantu hari icyapa, aho cyapa kiriho ibintu byo kwamamaza. Hirya hari imodoka ziparitse kandi aho hantu hari inzu nini cyane yubatswe mu buryo bajyambere.

Ubona imodoka iri ahantu mu muhanda, isa nkaho iyo imodoka iri gusohoka mu gipangu, indi yinjira, muri kampani runaka, kandi izo modoka ni imodoka ebyiri zitandukanye.

Umuhanda urimo imodoka isa nkaho iri kumanuka mu ikorosi kandi ndikubona n'ikintu ku muhanda gishobora kuba gikoreshwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro kirafungurwa kikabasha kuba cyazimya umuriro.

Kubona umuhanda wa leta y'u Rwanda aho uri gucamo ibinyabiziga na moto bishobora kuba biri mu bikorwa byabo bisa nk'aho bitwaye abagenzi.

Umuhanda wa kaburimbo, hirya hari inzu igaragara nkaho ari inzu ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Hanze haparitse imodoka zisa nkaho ari iz'abantu baje kugura ibintu aho ngaho cyangwa se ari i iza banyiri muri ayo maduka akorera muri iyo nzu.

Ahantu hari umuhanda, hirya hari amazu meza cyane yubatswe mu buryo bwa kijyambere, aho ayo mazu ashobora kuba yaturwamo n'abantu, kandi hari n'amapoto ajyanamo amashanyarazi.

Ahantu bisa nkaho hakorerwa ibintu bigiye bitandukaniye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Aho hantu kandi bisa nk' ho ari nka kampani cyangwa se ikindi kintu byanditse ahantu ku cyapa.

Ahantu hagiye hari amazu agiye atandukanye, aho aya mazu ari mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ayo mazu agiye yubatse mu buryo bwa kijyambere, apana kwa kundi aba yubatse atari mu buryo bwa kijyambere.

Ndabona imodoka iri ahantu bisa nk'aho aho hantu hari umuntu uri kugenda kandi aho hantu hari amabuye.

Umuhanda uwo muhanda kandi akaba ari uwa kaburimbo, aho uwo muhanda urimo imodoka ziri kugenda, n'amasitasiyo ari ku ruhande.

Ndi kubona umuhanda afite ibyerekezo bigiye bitandukanye aho kandi ndi kubona umuhanda urimo amatara awumurikira mu mugihe bwije uwo muhanda abantu benshi bahuzi ku izina rya kaburimbo.

Ndikubona umuhanda urimo icyapa, kandi icyo cyapa kikaba kiranga ibintu byinshi aho hari icyapa gishobora kuba kiranga ko imbere hari ishuri.

Umuhanda kandi ukaba urimo ibiti, n'ibindi bintu bigiye bitandukaniye, aho ndi kubonamo umuhanda wa kaburimbo, moto na bisi ya shira umuteto.

Ahantu muri kaburimbo harimo imodoka zisa nkaho ziri kugenda n'abantu barasa nkaho bambuka mu ijoro, amatara ari kwaka mu muhanda kugirango hatagira ikintu kibi kibaho.

Umuhanda uherereye mu mujyi wa Kigali ahantu bita ngo ni santere, aho haba hari ikiraro. Ikiraro gicaho imodoka hejuru no munsi haca imodoka n'abantu.

Ndabona umuhanda, uwo muhanda urimo imodoka na moto hariho kandi n'abanyamaguru bari kugendera mu nzira y'abanyamaguru aho umuhanda ukikijwe n'amatara.

Ndikubona umuhanda. Umuhanda urimo abantu bari kugenda ibinyabiziga na moto. Moto ziri kugenda n'igare.

Umuhanda wa kaburimbo aho uwo muhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho harimo imodoka moto, byose bikaba bitwawe n'abantu, kandi moto zo ziyongeyeho kuba zitwaye abantu b'abagenzi, aho ushobora kuba watwara umugenzi akabasha kuba yakwishyura.

Ndi kubona umuhanda urimo imodoka, aho iyo modoka iri kugenda na moto iri ku ruhande isa nkaho iri kugenda, mu muhanda kandi hari akantu karimo utwatsi.

Ndikubona umuhanda urimo amapoto n'ibiti, hirya hari amakaritsiye kandi umuhanda usa nkaho urimo akavumbi. Ukiva mu muhanda urimo akavumbi, uhita ugera mu muhanda wa kaburimbo.

Umuhanda urimo za feruje, feruje kandi ni ibintu bikoreshwa mu muhanda wa kaburimbo biranga ibinyabiziga ko bigomba kugenda bitagomba kugenda, bitewe n'ukuntu ibintu bimeze.

Ndi kubona umuhanda, aho uwo muhanda ari umuhanda wa kaburimbo wubatswe n'igihugu cy'u Rwanda, mu kuzamura ibikorwa by'igihugu cy'u Rwanda, aho umuhanda uri gucamo imodoka.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bya moteri aho ndi kubonamo moto zisa nkaho ziri kugenda, imodoka ziri kugenda kandi umuhanda urimo n'amatara.

Ndi kubona umuhanda urimo amatara asa nkaho ari kwaka, kandi umuhanda akaba ari uw'igihugu cy'Urwanda mu mujyi wa Kigali, aho ndi kubona kandi hasa nkaho hari ibintu bishobora kuba biri kwaka cyane.

Kubona umuhanda, umuhamuhanda kandi urimo ibintu bigiye bitandukanye aho dusangamo moto, imodoka n'ibindi, ku ruhande hari ibiti hirya ku muhanda hari amatara.

Umuhanda urimo twa turongo tugaragaza ko umugenzi ashobora kuba yakwambuka nta kibazo agize, igihe ushobora kuba iyo ugonze umugenzi ari kwambukira muri utwo turongo ushobora kubiryozwa, kandi ndikubona harimo moto n'imodoka inyuma.

Ndi kubona umuhanda. Umuhanda ufite ibyerekezo bibiri, hari umuhanda kandi urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, aho uwo muhanda ufite amatara uwukikije.

Asa nkaho ari uw'ibitaka, aho uwo muhanda urimo ibipangu bigiye bitandukanye n'ibiti birebire, kandi akaba ari mu mujyi wa Kigali, mu Rwanda.

Kubona umugabo uri kuri moto ahantu mu muhanda kandi muri uwo muhanda harimo akapa ku ruhande, n'itara rimurikira uwo muhanda mu gihe bwije kandi hari nindi moto iri kuzamuka.

Ndi kubona umuhanda urimo imodoka na moto, aho uwo muhanda ushobora kuba wakifashishwa n'abantu benshi bagiye batandukanye.

Ndabona umuhanda umuhanda mwiza cyane usa nkaho unyuramo ibinyabiziga bifite moteri cyangwa urimo amatara asa nkaho awumurikira mugihe bwije.

Ndi kubona umuhanda urimo moto, urimo kandi nigare, urimo n'imodoka zisa nkaho ziri kugenda muri uwo muhanda wa kaburimbo ,harimo n'amatara amurikira umuhanda mugihe bwijiye.

Umuhanda urimo imodoka, moto n'ahantu abantu bari kwambukira kandi umuhanda ufite ibyerekezo bigiye bitandukanye, uwo muhanda ukikijwe n'amashyamba.